Inyubako nini icururizwamo imiti itandukanye, aho abarwayi bajya kugura imiti yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo kwa muganga, aho umuganga arimo kwita ku mubyeyi, amukingira indwara zitandukanye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Icyatsi cy'ikinyamapfundo ni kimwe mu byatsi byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere mu kuvura indwara zitandukanye z'abantu n'iz'amatungo.

Umucyayicyayi ni kimwe mu byatsi cyangwa ibimera byifashishwa n'Abanyarwanda, mu kwivura indwara zitandukanye. Higanjemo iz'ubuhumekero.

Ubuhinzi bw'avoka ni bumwe mu buhinzi buteza imbere abahinzi babwo, mu buryo bwo kubona amafaranga mu gihe kirambye.

Ibimera bitandukanye byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, mu kwivura no kuvura amatungo yabo uburwayi butandukanye.

Ibyatsi nka bimwe mu bimera, byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere mu kwivura indwara zitandukanye, no kuvura amatungo yabo.

Ibimera bitandukanye byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, mu kwivura uburwayi butandukanye, harimo ubw'abantu n'ubw'amatungo yabo.

Igitenetene ni ikimera abanyarwanda bo hambere bakoreshaga mu buvuzi bwabo barimo kuvura abana inkorora, abandi bakagikoresha barimo kwivura ibisebe.

Ibyatsi bitandukanye, ibyifashishwaga n'Abanyarwanda bo hambere mu kwivura indwara zitandukanye, no kuvura amatungo yabo uburwayi butandukanye.

Ibimera bitandukanye ni bimwe abanyarwanda, bifashisha mu kuvura indwara zitandukanye, yaba iz'abantu cyangwa iz'amatungo yabo.

Ibimera bitandukanye byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere mu kwivura no kuvura amatungo yabo uburwayi butandukanye.

Igihingwa cy'ibirayi iyo cyitaweho kigaterwa imiti ku gihe, kigashyirwamo n'ifumbire mvaruganda gitanga umusaruro mwinshi uhagije.

Ikimera cy'inyinya ni kimwe mu bimera byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere mu kwivura indwara zitandukanye, harimo: nk'ikirungurira, n'iseseme, n'inzoka zo mu nda.

Ibyatsi byo ku gasozi ni bimwe abanyarwanda bakoresha barimo kwivura indwara zitandukanye, no kuvura amatungo yabo uburwayi butandukanye.

Igitabitabi icyatsi abanyarwanda ba kera bakoreshaga, barimo kwivura indwara zitandukanye, no kuvura amatungo yabo.

Ibyatsi bitandukanye, abaturage bo hambere bifashishaga barimo kwivura, cyangwa kuvura amatungo yabo uburwayi butandukanye.